Iki ngiki akaba ari ikigo cyitwa Aliyanza kikaba gishinzwe gutanga ubwishingizi mu kwivuza, ku binyabiziga, ku mazu, waba urwaye bakuvuza wowe n'umuryango.

Iki ngiki akaba ari ikigo gitanga ubwishingizi cyitwa Sonarwa, gitanga ubwishingizi mu gihe habaye nk'impanuka kikagusonera yewe n'ibiziga, igihe warwayi bakakuvuza, igihe inzu yahiye bakayisana.

Ubu ngubu akaba ari ubwishingizi bwitwa radiyanti yacu bufasha utwaye nk'ikinyabiziga ugakora impanuka, warwaye bagufasha mu gusana ibyo bintu byangiritse cyangwa nawe bakakuvuza.

Ubu n'ubwishingizi bw'inkoko butangwa n'ikigo cyitwa Radiyati. Ubu umworozi atanga mirongo itandatu ku ijana, noneho uwo leta ikakongera mirongo ine yose ku ijana y'ubworozi bwawe bw'inkoko.

Kampani y'ubwishingizi mu gihe ugiye gufata ingwate n'ibindi bijyanye n'imisoro, habayeho n'ikibazo nyine, iyo wiyandikishije muri iyi kompani, niyo bira asurance bari kumwe.

Ikindi iki akaba ari ikigo gitanga ubwishingizi mu kwivuza mu gihe iyo bakozeshya ndetse bityo cyaza impanuka bakagisana igihe imodokaye bakayisana igihe waba urwaye bakakuvuza hamwe n'umuryango.

Aha hakaba ari mu mujyi wa Kigali, hari hari kubera amasiganwa y'imodoka, inyuma hakaba hari ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi cyitwa Sanlam, hariya batanga ubwishingizi bw'imodoka, barwaye, bw'inzu..

Ahangaha ni ikigo cyitwa Radiyanti yacu bifashishwa mu kwizigama. Kwizigama barakwereka ko ari kane ku ijana ku mwaka. Kwizigama igihe wagize ikibazo ubwishingizi ahonga ngaho bara kugoboka.

Ubungubu ni ubwishingizi mu kwivuza bwitwa mitiweli bukoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda rw'ubumwe, iyo umuntu arwaye uragenda bakakuvura ku giciro gike igihugu cyacu kikakongereho.

Iki ngiki akaba ari ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi bugiye butandukanye hari ubwo kwivuza, hari ubw'ibinyabiziga, ubw'amazu n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Ubu ngubu akaba ari ubwishingizi, ubwishingi mu kwivuza, ubwishingizi habaye nk'ibibazo, ubwishingizi n'ibindi bigiye bitandukanye, aho ushobora kugonga ufite ubwishingizi bw'imodoka yawe, bakagusanira imodoka, inzu yashya bakayisana warwara bakakuvuza...

Iki ngiki akaba ari ikigo cyitwa Radiyanti gitanga ubwishingizi. Ahangaha bari kwerekana ko batanga ubwishingizi bwo kwibwa. Ubwo bwishingizi bwa Radiyanti butanga ubwishingizi nk'igihe wapfushije nk'umuntu, wapfiriye mu mpanuka, wagonze, inzu yahiye, aha ngaha haravugwa ubwo kwibwa.

Hano bariho baramamaza ubwishingizi ku modoka cyangwa ku bindi binyabiziga. Hano iyo ikinyabiziga cyawe gikoze nk'impanuka bagufasha kugisana, nimba ugonze bakaguca nk'amafaranga cyangwa ugakora impanuka bitaguturutseho, baragufasha.

Iki ngiki akaba ari banki, banki yitwa NCBA ikorerwa yo muri Afurika ikaba ifasha ibintu byinshi yo kuguriza kubitsa kubikuza no kuguriza ugakemura ibibazo.

Iyi ngiyi ni banki ya kigali y'umuntu witwa Jean Paul, hasi hariho konti, konti uko bigaragara iri mu manyarwanda, iriya berekana konti, kohereza, kwishyura, n'ikarita yawe.

Aha ngaha hari ibintu mu mparupapuro incamake z'ibintu umuntu aba yakozero nimero ishobora kuba ari iya konti ye, hasi hari amazina yubikije ataberekana amafaranga abikije uko angana, ubu nari kuri konti .

Iyi ngiyi akaba ari raporo ya banki yitwa ekwiti, ekwiti y'abanyakenya, iyi ngiyi ikaba igaragaza ibintu byose umukiriya aba yaragiye yarabikije abikuza, ikerekana amafaranga n'itariki n'igihe n'isaha byose barabyerekana kugira ngo hatazazamo amariganya n'ibindi.

Uru nguru akaba ari urubuga rwa MTN,itumanaho dukoresha hano mu Rwanda, hano akaba ari urubuga rwayo. Uyu muntu ufite ino nimero ya telefoni yo hejuru afiteho amafaranga magana atandatu y'u Rwanda.

Iyi ngiyi akaba ari inzu ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye nk'inkweto, imyenda, nk'uko bigaragara imbere yanjye, udupira n'indi myambaro, inkweto, hano hakaba haherereye mu mujyi wa Kigali.

Ibingibi akaba ari ibicuruzwa by'imyenda, hano harimo imyenda igye itandukanye ijya gusa umutuku, iy'umweru, iy'umukara, biragaragarira ahantu hasa neza hameze neza hiyubashye.

Iyi ngiyi na yo akaba ari inzu y'ubucuruzi. Biragaragara hamanitseho imipira, amakanzu, n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ibintu biboshye, biseke, inyuma na hano mo imbere na ho hagiye harimo ibintu, imitako, ingabo,...

Iyi ngiyi akaba ari inzu y'ubucuruzi bacururizamo ibintu by'imyenda byiyubashye. Ni imyambaro, amakanzu ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, hano hantu bacururizamo ibintu bimwe na bimwe biba bigiye byiyubashye.

Uyu nguyu ni umugore n'umukobwa aba bosi ni abagore cyangwa abakobwa bafite mudasobwa imbere yabo, umwe ariho arereka undi buriya hari ibyo yari amubajije yarari kumwunganira uko ibyo bintu bikora.

Uyu nguyu ni umugore n'umugabo bafite ikintu kimeze nka mudasobwa imbere yabo, uyu mugore akaba ariwe uri kugikoramo afite ibyo ari kwereka uyu mugabo, urabona ko uyu mugore yambaye amadarubindi afite ibyo ari kunganira kuri uyu mugabo.

Iyi ngiyi akaba ari inyubako y'ubucuruzi, ibintu bigezweho by'abasirimu nkuko bigaragara hamo: amapantaro, udukanzu, utwenda tw'abana hirya naho hari ibimeze nk'ibyo, ino ni inzu y'ubucuruzi.

Uyu ngo uyu akaba ari umugore wambaye ikanzu yisukishije neza b y'amadarubindi yaje kugura ibintu sinzi iyo na bya bintu by'abagore byo kwi urabona asa neza ni umusirimu yambara ikintu cy'umukara.

Uyunguyu ni umugabo, umusore w'umwirabura hirya hari undi mugore w'umuzungu. urabona barishimye, bari guseka, bari guherekanya ikintu. Ashobora kuba ari umurongo w'itumanaho, ntago bigaragara neza.

Aya ngaya akaba ari amazu y'ubucuruzi yo kwa mama Amina, nditse mama Amina, uyu nguyu nawe akaba ari umugabo uri gucuruza ibindi bintu, inyuma kwa mama Amina bacuruza amakanzu, n'indi myenda y'abagore igiye itandukanye.

Hano hakaba ari inzu y'ubucuruzi hano bacirizamo ibitenge n'ibindi bintu, amakanzu uko bigaragara harimo n'abantu baje kugura hariya hari ibyirori birebamo bamaze kugura.

Aha ngahe akaba ari ibinyabiziga byitwa imodoka bigezweho biri mu bwoko bwa toyota bigezweho muri iki gihe, aya ngaya ubu ni mashyashya kuko nta mibare iyagenga iriho wasanga akodeshwa.

Uyu ngo akaba ari abagabo babiri umwe ni umwarabu undi umunyafurika, bari gukora akaba n'uruhu rwera ruhoramwerekera ibiindi bitandukanye ngo abasha kuva bari mu mirimo nk'uko bigaragara bajyanye n'amashanyarazi.

Iki ngiki akaba ari ikigo gishinzwe gucuruza ibinyabiziga. icyo ngicyo hino hari undi muntu utwaye umugenzi nawe kukinyabiziga cy'ibiziga bibiri, ariho aramanuka, ikigo kiri hakurya, hakurya y'umuhanda.

Ibingibi ni ibinyabiziga byifashishwa mu guterura ibintu biremereye nk'amamodoka ibyuma biremereye n'ibindi bintu bigiye biremereye umuntu atakwikoreraa cyangwa ibundi binyabiziga bitakikorera.

Iyi ngiyi ni banki, ni banki cojebanki . Hano hakaba hari imodoka ziri mu ubwoko bwa kiya. Ariko ndabona n'izindi mbese uyu ni umushinga ujyana n' ikigo kigurisha imodokadoka . Bakaba barimo baracyamamazaa n'abafatanyabikorwa babo.

Ahangaha akaba ari mu mujyi wa Kigali. Iki ngicyi akaba ari ikigo gicuruza ibinyabiziga, urabonamo iki harimo ibinyabiziga harimo iby'umweru n'ibindi biri inyuma bitandukanye. Hano kandi hakaba hagaragara n'inzira y'abanyamaguru.

Iki ngiki akaba ari ikigo kishami ryitwa Akagera motors rikaba rikoresha ibinyabiziga bigiye bitandukanye ibyikorera ibitwara abantu , uburyo ushobora kwitwara wowe bwite nta w'undi muntu.

Ahangaha hakaba hari umuntu urimo uravunjisha, nimba atari ku kuvungisha ari kubitsa cyangwa ari kubikuza, gusa ikigaragara afite amafaranga gusa ntago ari amanyarwanda kuko ino note ntago tuyikoresha hano mu Rwanda.

Aya ngaya akaba ari amafaranga, amafaranga y'inoti y'igihumbi, amafaranga menshi ntabwo bigaragara neza ngo umuntu amenye ni ayo mu kihe gihugu, gusa urabona ni amafaranga menshi inote z'igihumbi.

Iyi ngiyi akaba ari inote y'u Rwanda ya bitanu ya kera, kuko barazivuburuye ntabwo zikimeze gutya akaba ari inote y'u Rwanda ya kera nkuru ni yo noti nkuru mu Rwanda tugira, inote ya bitanu izindi zigiye ziri munsi yayo.

Iyi akaba ari inoti ya kera y'ijana yo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikaba yarakoreshwaga gusa ubu ngubu ntago ariyo tugikoresha ubu hasigaye hifashishwa ibiceri, izi noti ntabwo zikibaho zari iza kera.

Iyi ngiyi akaba ari ifaranga ry'u Rwanda rya kera ry'ijana, ubu ngubu n'amafaranga ijana gusa, ubu ntabwo tugikoresha inoti y'ijana, dusigaye dukoresha igicere cy'ijana.

Ahangaha akaba ari mu ikaragiro ubwo biragaragara hasi hari icyasi cyuzuye amata, hirya hari umukobwa imbere yanjye hari jag ubwo bapimisha bajya gusukamo mata ngo barebe ko yujuje ubuziranenge.

Ibi ngibi ni ibinyobwa bikomoka ku mata nyineb babikora bakoresheje amata harimo ikivuguto bakagenda bavangaho n'ibindi bintu biraryoha cyane, bikunze kunywebwa n'abana kuko abana nibo abantu bakunda ibintu biryohereye cyane.

Aha ngaha akaba ari ku ikaragiro ry'amata, urabona uriya uri mu idirishya yaje kugura amata afite akabido, uwundi urimo urayapima, afite ijagi y'icyatsi, na we akaba ariwe uri kuyamucuranira ari kuyagurisha.

Hano akaba ari inzu y'ubucuruzi uko bigaragara bacuruza amata. Hakaba hari ikararagiro bacuruza amata y'inyange, amazi y'inyange, ayitwa nili n'ibibindi binyobwa biryohera.

Aha ngaha akaba ari inzu iberamo ubucuruzi, urabona bari gucuruza amata, amata y'inyange, amazi y'inyange, aya nili, akaba ari ibikorwa byo mu Rwanda, hano hakaba hari n'ibindi bintu byo kunyweramo, ibyo kuriramo.

Uko bigaragara ahangaha ni ku ikagiragiro ry'amata, aha hantu haba harimo amata, iki cyuma kikaba gishinzwe, iki cyuma kiba gishinzwe kubika amata kandi kikayacayura amabi akajya ku ruhande ameza akajya ku ruhande kugira ngo batange amata asukuye.

Ibi ngibi rero akaba ari ibinyobwa biba biri gucuruzwa, ni amata, bigaragara nk'amata n'ibindi bintu bikozwe mu mata, gusa nyine biri mu tujerekani tureture ni amata, na tumwe turi mu dukarito two ni amata meza.

Ibi ngibi akaba ari ibiribwa mu Rwanda twita amasambusa, akaba akorwa mu birayi, mu ifarini, imbere bakaba bashyiramo inyama, inyama ziseye ziryoha.

Ibi ngibi bikaba ari ibyansi. Ibyansi byifashishwa mu gukusanya amata; amata meza bakunze kuyasakaza mu baturage. Hano bari ku ikusanyirizo bareba niba amata ameze neza, bayacagura mu byansi bigiye bitandukanye.

Aha ngaha kabari kaba hari utudomoro dutoya twa litiro eshanu, utungutu bakaba baje gutwara mo amata ahangaha bari ku ikagiro, ikagira batanga amata meza cyane asukuye.

Uyu nguyu akaba ari umugati, umugati ukorerwa mu Rwanda, uyu nguyu ukaba uryoha cyane, abana barawukunda cyane, cyangwa waba ushaka no kuwurya urawufata, hakaba hariho n'akagati gaciye gato, indi iruzuye.

Aha ngaha hakaba ari ku ikaragiro, hano bacuruza amata ya Mukamira, hano ndabona hirya harimo n'amazi , amazi ya Nili, n'andi mazi atagaragara neza gusa hashobora kuba banditseho ngo pe, iri mu ibara ry'ubururu.

Aya ngaya akaba ari amazi, amazi anyobwa yitwa jibu hirya hakaba hari igikonjesha amazi kikaba cyakonjesha n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, uyu nguyu akaba ar'umuryango nawo usohoka urabona aha bagaragaje ni mu imbere.

Uyu nguyu akaba ari umugore wagiye ahantu hashobora kuba hacururizwa ibintu by'ibinyobwa n'ibiribwa, ubona ko afite igikombe ashora kuba yanywereyemo icyayi cyangwa amata, iyuma hari ibindi binyobwa byitwa koka.

Iki ngiki akaba ari ikigo gifasha abantu mu bijyanye n'amafaranga yo ku ikoranabuhanga, amafaranga ava hanze cyangwa wayajyana, ayandi ashobora kuba avuye hanze ashaka kuyafata cyangwa we ashaka kuyohereza hanze, iki kigo kirafasha guhuza abantu bari hanze n'abari mu gihugu cyacu kugira ngo bashobore kohererezanya amafaranga.

Ubu ngubu akaba ari urubuga rwitwa Payipalil rugufasha mu kohereza amafaranga cyangwa gutumiza ibintu byo hanze ukeneye serivisi zo hanze ushaka ko umuntu hanze akoreshareza amafaranga, hano hasi bakwereka shyiramo ikarita yawe ya banki y'igihugu uturukamo kugira ngo ujye ubasha koguhereza amafaranga cyangwa umuntu yakoherereza cyangwa hagire ibyo utuma uyavanye kuri iyo konti yawe.

Uyu akaba ari umushinga wo kugenda utanga amafaranga make make bawita ejo heza, kuburyo ushobora kwizigamira, wowe, abana, abuzukuru, no mu gihe cy'izabukuru bikazagufasha kwiteza imbere mu gihe utazaba ugishobora gukoresha amaboko.

Aba ngaba akaba ari abakobwa batatu bafite ibyo bari kuganiraho, urabona bafite impapuro, uri hagati ari kubereka kuko niwe bose bariho bateze amaso, bariho barareba, buriya bafite impamvu bari hano bari kwandika hari ibyo bari kumusobanuza..

Uru nguru akaba ari urubuga rwo kuri internet rufasha abantu kurinda amafaranga bayajyana mu gihugu cyo hanze cyangwa ava mu gihugu hanze, cyangwa akeneye izindi serivisi zo hanze azituma yibereye mu Rwanda, bayita paypal ikora mu bihugu byose.

Ahangaha urabona bariho baravungisha. Bari kureba uburyo bw'ivunjisha, nshyizemo ibihumbi icumi by'amadolari, shaka kohereza amanyarwanda ni miliyoni cumi n'ibihumbi magana inani mirongo itandatu na magana cyenda mirongo inani na biri n'ibice mirongo ine na bitandatu by'amafaranga y'u Rwanda.

Iyi ngiyi ikaba ari resi yatangiwe mu karere ka Gasabo nyirayo akaba yitwa Heniri Rutaganzwa, iyi ikaba ari resi y'ikigo cyitwa Rwanda reveni berekana imisoro n'amahoro.

Iki ngiki akaba ari igipapuro cy'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, iki ngiki kikaba cyaratangiwe mu karere ka Nyarugenge, uko bihagara ni igihugu cy'u Rwanda byanditseho, kikaba kigaragaza raporo ngufi y'uko uyu muntu yagiye asora, nk'uko bigaragara n'ikigo cy'ubwishingizi cyitwa purayimu.

Ubu ngubu akaba ari ubwishingizi bwitwa gata ca na o, bukaba ari ubwishingizi hano hari raporo ngufi yerekana uko byagiye babitsa cyangwa banyuzaho amafaranga, ni ku ishami rya Kigali.

Iki ngiki akaba ari ikigo cyo mu Rwanda, gishinzwe imisoro n'amahoro. Imisoro rero idufasha ibintu byinshi. Hano hakaba handitseho ngo icyemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro. Urumva hano uba ugomba kwishyura imisoro ku gihe.

Iki kikaba ari igipapuro cyerekana imisoro yo mu karere ka Kicukiro cy'amazina y'umubiri yitwa mushyirahamwe Joji yerekana amafaranga umusoro ukomeze byakoreweho ibya bikorewe kuri murandasi.

Hano' ubungubu n'ubwishingizi bw'ubwishingizi bwitwa pling iyi ni raporo ngufi y'umu ki mu ishami rya kigali baberererekanapole baberekana ngo yarabikije butya yivuye but cyangwa yasutse gutya ibintu nkibyo.

Iyi ngiyi akaba ari raporo ngufi ya banki y'umujyi wa Kigali, bakaba berekana itariki amafaranga n'isaha, umuntu aba n'aho amafaranga aba yaravuye. Umukiriya wabo aba yarakoresheje kuri iyi banki.

Iki ngiki ni igipapuro cya banki y'umujyi wa Kigali, kiri kwerekana uyu muntu amafaranga yabikije n'ayo yabikuje yose hamwe bagateranya bakayamwereka, iyi ni raporo yerekana uburyo konti ye yaba yarabicijeho cyangwa yarabikuje.

Iyi ngiyi akaba ari banki y'u Rwanda, iyingiye ni raporo ngufi, raporo yerekana uko umuntu yagiye abitsa, abikuza bamwita KAREMERA Flavia, ni mu ishami ry'umujyi wa Kigali Kacyiru hano bari bari ni Kacyiru.

Iyi ngiyi ikaba ari ifaranga rya Tanzaniya rya magana atanu. Ni ayo bita amashilingi. Aya ngaya akoreshwa mu gihugu cya Tanzaniya, ubwo nyine ni magana atanu yaho. Hano ntabwo mba nzi uko bivujwa gusa nyine ni inote ya magana atanu.

Izi ngizi akaba ari yizi ari inote za bibiri, n'umuntu hasi hakaba handitseho, hari icyapa cy'itumanaho cyitwa eyateri, uyu muntu rero akaba kubamara ari kubara ano mafaranga, urabona ko ari no kwamamaza hasi bi hanitseho itumanaho rya eyateri.

Hano naho hakaba habera ivunjishwa ushobora kugura idolari kuri iki giciro ukabigurisha ku kindi ushakagura ipawundi ryo mu Bwongereza ukagulisha I yelo akagugisha cyagiciro cyaryo.

Aya ngaya akaba ari amafaranga akoreshwa mu bihugu byo hanze, hano hari inoti ya magana atanu magana abiri ijana na mirongo itanu makumyabiri icumi n'iyatanu, amafaranga ntabwo ari ayo mu Rwanda akoreshwa mu bihugu byo hanze.

Iyi ngiyi akaba ari inote ya magana abiri ikoreshwa mu gihugu cy'Ubuhinde, iyi akaba ari ishuwe buriya ni umunyabigwi wacyo, kuko ibihugu byinshi bibanza gukoresha ifoto y'umunyabigwi ku inote, cyangwa ikindi kintu cy'amateka.

Aya ngaya akaba ari amafaranga uyu muntu wambaye isaha ku kuboko ari kuyabara ntabwo ari ayo mu Rwanda nk'uko bigaragara ni ayo mu kindi gihugu ni menshi arayabara gake gake.

Ayangaya akaba ari amafaranga y'inoti za bitanu, n'ibipfundo by'amafaranga inoti za bitanu, aya ngaya ashobora kuba ari banki, ashobora kuba ari kuri banki abikuje cyangwa aje kubitsa, n'ahandi hantu hari ikusanyirizo ry'amafaranga cyangwa ari umuntu bari kwishyura.

Aya ngaya ni amafaranga yitwa amadolari, akoreshwa mu gihugu cya Amerika, bakaba aba ngaba bari guhererekanya, gahererekanya umwe ari guhereza undi, ashobora kuba abikije, abikuje cyangwa ari ikindi gikorwa baziranyeho.

Hano hakaba ari ahantu h'ivunjishwa nurabona n'ibiciro by'ivunjishadorari amayero n'igiciro fatizo ni icyo kwidorarwamo idolari rimwebimuha amayi angahezera n'ibigenda idorari rimwe ririmo ibyo bituma band yo mu bwongereza angahe zi ni ibice birindwi gutyo gurya.

Aha hakaba habera ivungishwahitwa Felix biro na yari ku itariki ya cumi na gatanu mukwezi kwa kane bibiri mu kwezi kwa gatanu ibibri na cumi n'umunani ko hano berekana uko amadola agenda avunjishwa, amayero n'andi mafaranga agiye atandukanye.

Hano hari ukuntu bavunjisha, uko amafaranga avunjishwa; amadolari, amayero n'andi mafaranga agiye atandukanye mu bindi bihugu, kugira ngo nuyajyana cyangwa uyazanye babone uburyo bakuvunjishiriza.

Hano akaba ari umuntu wambaye impeta akab afite amafaranga atari umunyarwanda, afite amafaranga uko bigaragara arimo arayabara, ntabwo nzi igihugu icyo aricyo ariko harimo inote y'igihumbi n'iz'igihumbi nizo ndi kubasha kubona.

Aha ngaha akaba ari ahantu hagenewe ku kuvunjishirizwa amafaranga, urabona umuntu wo hanze ashobora kukoherereza amafaranga ushaka kuyashyira mu manyarwanda, urabagana nimba baguhaye nk'ayo madorari ugahita uyashyira mu manyarwanda ukitahira.

Iyi ngiyi akaba ari ikigo gishinzwe kuvunja ivunjisha, hano hari nimero zabo za telefoni bita foregisi biro, ubwo hano ujyana amafaranga bakaguraha amadolari, cyangwa ukazana amadolari bakaguha amafaranga.

Hano hakaba handitseho ngo Zaniya foregisi biro, hano aha niho bavunjirishiza amafaranga. Aho bafata amafaranga yo mu kindi gihugu bakayaguha mu manyarwanda cyangwa mu yandi yo mu kindi gihugu, bikitwa Foregisi terayidi.

Iyi nzu ikorerwamo ikigo gishinzwe kuvunjisha amafaranga, aho ushobora kujyana amafaranga y'amanyarwanda bakayagushyirira mu madolari cyangwa wazana amadolari bakayaguha mu manyarwanda bakuvunjira bitewe n'amafaranga yose waba wifuza.

Hano hakaba habera ivunjishwa ry'amafaranga agiye atandukanye, amadolari, amayero, hano ushobora kuzana amadolari mu gihugu cyacu bakaguha amanyarwanda, cyangwa waba ufite amanyarwanda ushaka kujya mu kindi gihugu bakayakuvunjira neza.

Aha ngaha ni i Remera mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, hano ni ahantu ugenda bakohereza amafaranga hanze cyangwa baba bayakoherereje, bakagufasha mu bintu bijyanye no kuvunjisha bayavana mu mafarabga amwe, bayajyana mu yandi.

Ibi ngibi akaba ari ibinyabiziga biri kumanuka bizamuka, ibinyabiziga by'amapine ane byifashishwa mu koroshya ingendo, yaba ashobora no gushyiramo abantu akabatwara, niba abifitiye uburenganzira, biriruka kandi byoroshya ingendo.

Hano akaba ari ahantu habera ivunjishwa ry'amafaranga, ushobora kujyana amafaranga y'amanyarwanda bakagu amadorari, cyangwa bazana amadolari bakaguha amanyarwanda, hano babavunja amafaranga yose abaho ku giciro cyiza.

Izi ni intebe zigezweho muri iki gihe zifite n'ameza manini n'utundi dutoya tubiri ku ruhande zikaba zabera ahantu mu rwicariro ,mu nama, ahantu ho gusohokera heza kandi bisa neza.

Iki ngiki kikaba ari igitanda cyiza cyane kinini, urabona ni igitanda kigari, gifite isaso nini, gikozwe mu mbaho nziza kandi zikomeye, uko bigaragara gifite, hasi kiba kicaye neza cyane.

Izi ngizi akaba ari imeza, hakaba hari n'intebe zayo, inyuma hariho utubati, urabona biragurishwa, ni ibintu byiza, bisa neza kandi bigezweho. Reba nk'iyi meza, ni nini, ni ndende kandi isa neza.

Iyi ngiyi akaba ari inyubako iri mu ibara ry'umweru n'andi mabara ku ruhande urabona n'inyubako nziza cyane itakigonderwa na buri wese yubatse bigezweho, ni insirimu imeze zeza cyane.

Iyi ngiyi ikab ari hoteri yitwa mariyoti iharereye mu mugi ewa kigali, hoteli nziza hano hari ubwogero, ubwogero bw'abasirimu, abasirimu bakunda cyane na hoteli nziza cyane kandi ifite amateka meza.

Iyi ngiyi akaba ari inyubako yitwa hoteli, isohokeramo abantu urababona ni insirimu cyane hano hari ahantu bogera mu mazi menshi, hano hari ahantu baryama bari gufata umuyaga baje kuruhuka.

Ino akaba ari hoteri yitwa fonigisi hoteri ihererereye mu mujyi wa Kigali, ino foto bitewe n'ukuntu hameze ubu ngubu ino foto imeze ugereranyije imaze nk'imyaka itatu ine, ifashwe bahita forinigisi hoteri mujyi wa Kigali ni iyo muri Kigali.

Izi ngizi akaba ari intebe n'imeza ziri ahantu heza, hateguye ibintu byiza byo kunywa, byo kurya ku mazi, ndabona ni ahantu hakeye cyane, hasohokera buri umwe wese, heza cyane hahandi bita hoteri.

Nubwo hari hotel yitwa libena hoteli tubisindu mu mujyi wa Kigali niho iherereye nafatika ya imaze nk'imyaka nk'itatu ifashwe, kuko bigaragara kuba barayivuguruye ngo nyasimbu i Kigali.

Hano hasi hakaba hari banki mu mujyi wa Kigali, hano niho babikuririza haba hari icyuma cyo kubikuza, hejuru hari umwishingizi witwa uap, batanga ubwishingizi mu kwivuza n'ibindi bitandukanye.

Ino akaba ari inzu iherereye mu mujyi wa Kigali. Hano hejuru turabona sport gim ubwo ni gim, hirya hari bank of Kigali. Hano hari UAP insurance, UAP insurance ubo n'ubwishingizi bwitway uap bugufasha mu gihe wenda wagonze cyangwa inzu yahiye cyangwa wahatakarije ubuzima bakagufasha. Ni ubwishingizi.

Iki ngiki n'ikigo gitanga ubwishingizi, hari ubwishingizi mu kwivuza, hari ubwishingizi bw'imodoka, mu gihe igize ikibazo, mu gihe ikoze impanuka bakagufasha gusana ibyangiritse biteye ubwishingizi bwitwa MUA.

Iki ngiki ni icyapa cyanditseho UAP kiri mu ibara ry'umutuku, aba ngaba ni abagore n'abagabo baje kukimurika, kuko urabona ni benshi, ni ihuriro ry'abantu kandi harimo n'abambaye ibintu bigaragaza kimwe mu bikorwa...

Iki ngiki akaba ari ikigo cy'Irembo, Irembo rishinzwe ibintu byinshi gufasha abantu kwishyura imisoro n'ibindi bikorwa byose bya Leta, kwishyura amahoho, kureba ibyangombwa by'amavuko, iby'uko washatse.

Ikii ni ikigo gitanga ubwishingizi kitwa Sanra ubwingezi mu kwivuza ahantu habayeindi nkongi y'umuriro bakagufasha gusana'mbu ufite imodoka wabikinze nk'imodoka wagonnze baragenda baridiba wagonze mute bagufashe gusanabyangiritse.

Imbere yanjye hakaba hari icyapa cyanditseho Sonarwa ishami rya Kimironko, Sonarwa ni itanga ubwishingizi, wenda imodoka yangiritse bakagufasha kuyisana, inzu, ubuzima bw'abantu, bagenda bagufasha gusana iyo uba muri Sonarwa bagufasha gukemura ibibazo.

Abangaba bakaba bagannye bank. Bank yitwa Equity, bakaba wenda baje kubitsa, gusaba no gufata inguzanyo kuko bank zitanga inguzanyo ,babasha umwaka, noneho uakajya wishyura make make.

Iki ngiki ni ikigo gifasha mu gutanga inguzanyo hano baguha inguzanyo, ukababwirara nk'imyaka ukazajya ugenda uyishyura gake gake uko ugenda uyabona apana ibintu byo kugutera hejuru kandi bigufasha gukemura ibibazo.

Aha ngaha hakaba ari ahantu hacururizwa ibiribwa, iibintu bigiye bitandukanye, hano harimo ibyo uri gucuruza n'ibyo bari gupimisha, umuntu w'umuguzi araza akavuga ngo mumpimi ibi n'ibi, nawe akabishyura bitewe n'uko bigura.

Izi ngizi akaba ari imbuto, akaba ari imbuto ziri gucuruzizwa mu isoko, harimo karoti, harimo amashu, harimo ibyitwa sereri, harimo n'ibindi bigiye bitandukanye, harimo ibitunguru, na bino biba ari ibintu byo guteka kandi biryoshye.

Aba ngaba akaba ari abagore n'abagabo bashobora kuba bariko baracuruza cyangwa bari kugura, ndabona hano hari uhetse igikapu, uyu nguyu ashobora kuba ari we waje kugura, ndabona bariho barabapfukira ibyo baje kugura.

Iyi ngiyi akaba ari inzu ikorerwamo ibintu by'ubucuruzi, iyi nzu ikaba ari isoko ry'ubucuruzi, hano hari icyapa cyerekana ko bacuruza amata, amata ya Mukamira ni amata meza aryoshye abana bakunda cyane.

Iyi ngiyi akaba ari inzu ikorerwamo ubucuruzi, hari abantu benshi bari kugura banagurisha hari ibicuruzwa by'inkweto, harimo abantu benshi bakoze ikiziga, buriya hari ibyo bari kuganiraho harimo abagabo harimo n'abagore.

Aha ngaha hakaba hari ibinyabiziga bigiye bitandukanye amagare n'ibindi, amapine abiri, iby'amapine ane, inyuma hari inyubako hari ahantu hari inzira y'abanyamaguru, ruguru hari isoko rusange n'ibindi biri ku mabati y'ubururu.

Ahangaha hakaba habera ubucuruzi ano akaba ari amazu y'ubucuruzicururi acururizwamo imyenda, hano hari agakanzu k'umukara keza cyane karimo imbere mu birahure, mo imbere harimo ibindi bicuruzwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, urabona hari n'abantu baba bahahagaze.

Aha ngaha akaba ari ahantu hangenyewe ubucuruzi ni mu isoko rusange ho hari harimo abantu benshi cyane bari gucuruza imbuto, inyanya irimo abana harimo abagore bahetsi turabona barishimye bariziwe nta kibazo bifitiye baje kwihahira.

Uyu nguyu akaba ari umukozi w'itumanaho rya Emutiyeni. Emutiyeni idufasha ibintu byinshi, kubitsa kubikuza, kohereza amafaranga, kwaka amadeni ibyitwa mokashi, ukazagenda wishyura gake gake...

Iki ngiki kikaba ari ikigo cy'itumanaho cyitwa MTN mobayiro mani, uno akaba ari umukozi wayo, abantu baje bamuganara hari ibyo ashaka kubafashamo, iki kigo ni kinini, kimaze igihe kandi kirizewe.

Iki ngiki akaba ari ikigo cyitwa emutiyene kidukoresha twifashi guhamagararira abantu, kubitsa, kubikuza, kohereza message, batwohererereza message, guhererekanya amafaranga utari kumwe n'umuntu ibi byoroshya ubuzima cyane.

Iki ngiki kikaba ari ikigo k'itumanaho kitwa emutiyeni, iyi ngiyi ikaba ari kode y'ubucuruzi. Mu gihe iyo uri kohereza batagukata nk'ibisanzwe kuko ubundi iyo uri korereza musanzwe baragukata; bakaba barabikemu rero iyo uri kohereza amafaranga kuriyi kode ntabwo ukatwa na gato.

Kano kakaba ari akazu ka mobile money. Mobile money idufashe ibintu byinshi : kohereza amafaranga, guhamagara, guhamagarwa, kubikuza n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye utiriwe uva iwawe, kwishyura umuriro, kwishyura amazi, n'ibindi bintu.

Uyu nguyu akaba ari hano hari umukozi w'ikigo cy'itumanaho cyitwa MTN, hano ni abakozi batatu n'uwabagannye umwe wambaye ipantaro y'umukara n'ishati irimo karokaro.

Iyo ngiyo akaba ari mu ikigo cy'itumanaho cyitwa Airtel, ndabona handitseho ngo Mobile money, Airtel mobile money ni ikigo cy'itumanaho, iyo wohereza amafaranga, ubitsa no kujya kuri murandasi.

Izingizi akaba ari inkweto zisa umweru zirimo amaoko abiri, ni inkweto ebyeri zitandukanye ahangaha barikukwereka ngo ushobora kuzigura wibereye iwawe bakazikugezaho ku giciro gitoya kandi mu gihe gito.

Iki ngiki akaba ari ikigo gicuruza ibintu ku mbuga nkoranyambaga, ubahamagara cyangwa ukabandikira ukababwira icyo ushaka, ako kanya bagahita bakikugezaho, utiriwe uva iwawe, kandi mu gihe gito ukabona ibyo wifuza kandi ku igiciro gito.

Uru nguru akaba ari urubuga rwo kuri murandasi, rukoreshwa mu gushaka gutuma ikintu urabahamagara wiberaye iwawe bakakikuzanira mu mwanya muto. cyokora wenda iyo uhisha ikintu urabahamagara bagahita bakikugezaho.

Iyi ngiyi akaba ari ikigo cyitwa kasha, ushobora kukiguriraho ibintu wibereye iwawe ukabitumiza, dore nimero zabo za telefoni ni ziriya, cyangwa ukabandikira, na kode yo guhamagara.

Iki ngiki akaba ari ikigo cyangwa umushinga urahamagara uri iwawe waka ndashaka ibiryo bimeze gutya uhita bigeze iwawe mu gihe gito teri wuje iwawe ni uguhamagara mu kanya gato wi tubona ibinyabiziga bizaz n'ibiryo bivugagwa bya bingana utavuga ngo birakuremerera.

Iyi ngiyi ikaba ari inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali ikaba ikodeshwa igihumbi na magana atanu ku kwezi, igihumbi na magana atanu y'amadolari akaba, asaga miliyoni ebyiri n'ibihumbi ijana na cumi z'amanyarwanda.

Iyi ngiyi akaba ari inzu iherereye mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba ikodeshwa igihumbi na magana atanu cy'amadorari, aya ngaya akaba asaga miliyoni ebyiri n'ibihumbi ijana na cumi na bitanutu by'amafaranga y'u Rwanda. Iyinzu imeze gutyo ukodeshwa gutyo, urumva ko ari inzu nziza cyane.

Anna uyunguyu ni umugore yari kumwe n'umugabo w'umuzungu imbere yabo urabona ni inzu yubakitse neza wagira barahakodesha cyangwa barirmmmm ati inzu n'umugore kugenda amwerekareva har i ubwogero bwokokamotera

Iyi ngiyi akaba ari inzu irereye mu mujyi wa Kigali igihugu cy'u Rwanda, ikaba igurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu zonyine z'amanyarwanda mu mujyi wa Kigali miliyoni mirongo itatu uba utomboye ifite ikigega yubatse mu buryo bugezweho, ifite ahantu h'ubusitani ni nziza cyane rifite n'ubuzu bw'inyuma.

Iyi ngiyi ikaba ari inyubako ikodeshwa igihumbi na magana atanu cy'amadorari, akaba akabakaba miriyoni ebyiri n'ibihumbi ijana na cumi na bitanu by'amafaranga y'u Rwanda. Iyi inzu ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali, aha ngaha rero ni ahantu ho kwicara, ushobora gufata ibyo kurya ariho wicaye...

Iki ngiki ni icyumba cyo mu ruganiriro, aho harimo ameza meza, hari urumuri rusa neza, hari imitako imeze neza, hakaba hateguye n'imitako ku mameza, ku bikuta, byose urabna ko ari ibintu bimeze neza.

Iyi ngiyi ni inzu iherereye mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda ikaba ikodeshwa igihumbi magana atanu by'amadolari aya ngaya akaba asaga miliyoni ebyiri n'ibihumbi ijana na cumi na bitanu by'amanyarwanda.

Uyu ngu akaba ari umugabo n'umugore n'umugabo ufite uruhu rwera bombe nawe ari umugore wirabura ukaba ari ahantu mu nzu isa neza cyane iri mu ibara ry'umweru bigaragara ni inzu yabo ni nziza pe!

Iyi nzu, ikaba ari inzu iherereye mu mujyi wa Kigali i Remera, irageretse, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atandatu ku kwezi, ifite ibyumba bibiri, imeze neza, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali.

Iyi ngiyi ikaba ari inzu yitwa lagisi, ikaba iri ku isoko, ikaba igurishwa hano hari umuntu urimo urayigendamo, imbere hari utubati, munsi y'iryo zina ryayo hakaba handitse ahantu wayishakisha bakaguha amakuru arambuye kurushaho.

Iyi ngiyi akaba ari inzu iherereye mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba igurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu y'amafaranga y'u Rwanda, bari bari kwerekana mo imbere urabona ni inzu nziza cyane, ifite ibikuta byiza ifite no hejuru hameze neza.

Iyi ngiyi ikaba ni inzu iherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kibagabaga, iyi nzu ikaba ikodeshwa, amafaranga akodeshwa ntabwo bayishyizeho, inzu ntabwo yuzuye ifite ibyumba bibiri, ifite naho bogera hamwe ushaka kuyikodesha iherereye kibagabaga.

Iyi ngiyi akaba ari inzu iherereye kigali, kabeza, inzu ikaba ikodeshwa. Ifite ibyumba bitatu, ifite n'ubwogero butatu, iy'inzu ni nziza iragiritse, isa neza iri mu ibara ry'umweru kandi ibara ry'umweru abantu bararikunda cyane.

Iyi ngiyi akaba ari inzu iherereye mu mujyi wa Kigali aho bita Kibagabaga, ikaba ifite ibyumba bibiri n'ubwogero bumwe. Iyi nzu ikaba ikodeshwa. Iyi nzu ni nziza aho yubatswe bigezweho iheyerereye Kibagabaga.

Iyi ngiyi akaba ari inzu iherereye mu mujyi wa Kigali i Kimironko, iyi nzu ikaba igurishwa, iyi nzu ifite ubuso bwa magana atatu na mirongo ine ,iyi nzu ikaba igurishwa miriyoni mirongo inani n'eshanu zonyine z'amafaranga y'u Rwanda muri Kigali kubona inzu nkiyo biba ari amahirwe.

Iyi ngiyi akaba ari inzu iherereye mu mujyi wa Kigali ahitwa ku Gishushu, ikaba ikodeshwa amadorari magana ane, inzu ituye hafi ya RDB, ubwo ni ikigo cy'u Rwanda, yego.

Iyi ngiyi akaba ari inzu iherereye mu mujyi wa Kigali, mu gihugu cy' u Rwanda, hakaba handitseho ibimbi bibiri by' idorari, by'ikodeshwa ku kwezi nka za nimero za telefoni ibihumbi bibiri y'idolari n'akabakaba miliyoni ebyiri maganani na makumyabiri inyarwanda.

Iyi ngiyi ikaba ari inzu ikodeshwa ku Gisozi ifite ibyumba bitanu, ifite aho bicara mu buganiriro, ifite n'aho barira, ifite no ku bwiherero hane, ifite n'ahantu batekera inzu y'umukozi nayo iri hanze n'ibindi byinshi.

Aha ngaha akaba ari isoko risanzwe, riberamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye, ndabona hano hagiyemo abagore bambaye ubupfukamunwa, buriya baba bafite ibyo baje kugura hano hantu.

Ahangaha ni inzu ikorerwamo ubucuruzi, ubucuruzi bugiye butandukanye hano haba hari abantu baba bahagannye baje kugura yenda baje no kugurisha ntiwamenya ibyo baje gukora gusa harimo abacuruzi n'abaguzi.

Iyingiyi akaba ari inzu iberamo ubucuruzi inka'umugore barimba atari umukobwa yari kugenda areba icyo ashima akagishyira ku gakapu afite ubwo hari aho baribuzeze kumubarira ibyo yafashe n'agaciro kabyo yishyuye.

Iyi akaba ari inzu y'ubucuruzi uko bigaragara harimo uwo mukobwa wicayemo imbere uri gucuruza ahigera hari n'undi yambaye umupira w'umutuku inyuma yaho harimo abantu benshi bamugannye, baje kugura biriya ibicuruzwa bye harimo uwambaye ibintu mu mutwe n'abandi.

Iyi ngiyi akaba ari inzu ikorerwamo ubucuzi, ubucuruzi harimo ibiseke, imbere hari umuntu ucuruza uri gucuruza, ubwo ushaka kugira icyo ugura niho uza ukabaza nawe akaguha ibyo ushaka kugura.

Iyi ngiyi akaba ari inzu iberamo ubucuruzi uko bigaragara mu gucuruza mo amavuta n'ibindi bintu byifashishwa mu gusukura imibiri yacu, hano rero akaba ari inzu urabona harimo ibintu byinshi uraraza ukabaza ibiciro bakakubwira.

Indi ikaba ari ifoto y'umuntu uri gucuruza hano hiryari ibicuruzwa nubwo ntabwo bigaragara neza ifoto ntago igaragara neza uko bigaragara yicaye muri kontwari arigucuruza ushaka aragenda akagura.

Ahangaha akaba ari mu mujyi wa kigali ahazwi nko kwa Makuza ahantu habera ubucuruzi bwinshi ibiryo, ibyokwambara kwiyogoshesha habera ibintu byinshi kuhigira.

Iyi ngiyi ikaba ari inzu iherereye mu karere ka gasabo mu murenge wa remera, ikaba ari inzu y'ubucuruzi iri mu ibara ry'icyatsi yitwa sawasiti iherereye i remera, bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye.

Iyi ngiyi ni inzu iberamo ubucuruzi, hano hakaba hahuriye abantu barimo barareba ibicuruzwa, abandi na bo bari gucuruza, aba bicaye ku ntebe z'umweru ni abacuruza abahagaze ni abaje kugura.

Iyi ngiyi ikaba ari inyubako iberamo ubucuruzi, hano hakaba haberamo ubucuruzi bugiye butandukanye, urabona hari abicaye baba bishyuza, hari abahagaze bari kugura, uratambika rero haba harimo utwapa tukwereka ibyo ushaka aho biherereye, abaza n'abakoramo barakurangira.

Aba ngaba bakaba ari abakobwa babiri bari gucuruza ibiribwa birimo amandazi n'ibindi, bakaba bambaye udupfukamunwa bari gucuruza ariko n'ibinyobwa ndona n'inyuma hari ibindi bintu byinshi bigiyari bitandukanye ibinyobwa, n'utundi tugiye dutandukanye.

Iki ngiki akaba ari ikigo cyitwa RSSB, gishinzwe ubwishingizi mu kwivuza n'ibindi bintu bigiye bijyanye n'imishahara y'abantu, aba akaba ari umugore n'umugabo bari kuvuga bafite za mudasobwa imbere yabo, bari kunywa n'amazi y'inyange.

Uyu nguyu ni umugore n'umugabo , umugabo ari kwandika afashe ikaramu ku kuboko kw'iburyo, ari kwandika umugore na we ari kureba, gusa wagira ngo hano ni kwa muganga, kuko iyi ni mitiweli ibari imbere, buriya umugore yaje kwivuza, umugabo ari kwandika n'imyirondoro yiwe.

Uyu nguyu ni... abagore hano ndabona ari abagore gusa, eee.. hirya hicaye n'undi mugabo wambaye ingofero y'ubururu, aha ngaha buriya hari icyo ari gushaka ko bamukorera bafite za mudasobwa wagira ni kwa muganga ni bo baganga.

Uyu nguyu akaba ari umushinga witwa ejo heza, ugufasha wizigama ugishoboye ugikora noneho wazagera mu za bukuru ukakugoboka, ukakugoboka twatundi wizigamaga na leta igushyiriraho ikagufasha mu busaza bwawe.

Amagaba n'itsinda ry'abantu uko bigaragara ni abasilamu bafite mituweli zabo zo kwivuza, ni izo bivurizaho. Hano hakaba bari baje kubatera inkunga urabona ni abantu bakuru harimo n'utwana.

Ikingiki akaba ari ikigo cyo mu Rwanda gishinzwe ibintu bijyanye n'ubwirinzi, kwivuza, ubw'bwishingizi bugiye butandukanye bw'amazu, bw'abantu barwara bakakuvuza n'ubw'ibinyabiziga

Iki ngiki ni ikigo gishinzwe ibintu bijyanye n'ubwishingizi ndetse n'ibindi bintu muri rusange bijyanye n'ubuganga, ubuvuzi, imishahara; ibingibi bikaba bireba cyane akenshi, ariko yibanda ku buvuzi, gutanga ubwishingizi.

Iyi ngiyi akaba ari inzu ikorerwamo ubucuruzi, urabona harimo utuntu tw'abana, hirya hakaba harimo inzoga, hano bakaba bacuruza ibintu byiza by'abasirimu, ibintu by'amashanyarazi ndi kubibona, ibintu by'amafatabuguzi, harimo ibintu byinshi kandi urabona ni heza haragaragara, ni ahasirimu.

Iyi nzu y'ubucuruzi, hano hakaba habera ubucuruzi, bugihe butandukanye. Urabona hano imbere, habanza ibintu by'ibinyobwa. Hirya gato hari ibintu by'ibiribwa bikunda kuribwa n'abana cyane cyane. Gusa ukomeje harimo n'ibindi byuma bikonjesha.

Angaha hakaba ari icyanya cyahariwe ubucuruzi, urabona winjiyemo ibicuruzi, hano ni ahitwa Sawa siti. Sawa siti habera ubucuruzi; hano harimo amasabune, amavuta, hagiye harimo ibitambaro, ibikoresho byo mu bwiherero.

Uyu nguyu akaba ari umugore wambaye umupira w'umutuku, uyungu ahahagaze buriya n'umugabo uko bigaragara ari kwishyura bamuhaye bisigaye bigezwe by'ikoranabuhanga agakozaraho ikarita yenda ya banki amafaranga agahita yivanaho.

Aha ngaha akaba ari inzu y'ubucuruzi, uyu nguyu ni umugore niba atari umukobwa, yaje kugura, urabona harimo ibinyobwa, harimo ibiribwa, isoko bigaragara ibinyobwa ni byo byiganjemo, akaba yabagannye ngo agira ibyo agura.

Aha ngaha akaba ari inzu y'ubucuruzi, hakaba harimo hagaragaramo ibintu by'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo amazi, harimo ibiribwa bindi bigiye bitandukanye, uriya muntu akaba aje kubarisha bitewe n'ibyo ashaka kugira ngo yishyure atahane ibyo yaguze.

Iyi ngiyi akaba ari inzuberamo ubucuruzi urabona hangiye harimo ibintu byinshi kandi hari isuku, hari urumuri, hagiye harimo n'ibyapa bigenda bikwerekawe aho ugeze ibyo bagiye bacuruza, ibihari kugirango ngo utayobagurika.

Iyi akaba ari inyubako iberamo ubucuruzi, bacururizamo ibinyobwa hasi hari amata y'inyange, hari amazi hejuru hari n'ibindi bintu bigenda biryoha hirya rero hakaba hari abandi bantu baba baje kugenda bareba, bareba ko hari ibyo baguramo.

Iki ngiki akaba ari icyapa cyerekana inzu y'ubucuruzi, ko bigaragara ku cyapa iyi nzu y'ubucuruzi iherereye mu karere ka kicukiro. Inzu y'ubucuruzi yitwa simba. Hepfo hari ibinyabiziga, ibinyabiziga byinshi abanyamaguru ni ku mugoroba n'amatara aracanye.

Iyi ngiyi akaba ari ikigo cyitwa simba ahakira abagi bita senatubeba gikorerwamo ubucuruzi mu bucuruzi baba'abacuruza' by bijyi bitandukanye kandi byiza bigezweho bacuruza ibiribwa bacuruza ibinyobwa bacuruza inyama ibintu byose baba babicuruza kandi ku giciro cyiza.